Uruhurirane rw'abaganga bahuriye mu bitaro bajya kwita ku barwayi bafite indwara zitandukanye kugira ngo babashe gukira vuba.

Ubuvuzi ni bwiza cyane，kuko ibitaro biba bifite abaganga babizoberewe， bazi nko gutera inshinge，gutanga ibinini，ndetse n'ibindi， bakita ku barwayi ku buryo buhagije.

Ubuvuzi ni ingirakamaro ku baturage cyane iyo bubegereye. Urugero nk'igihe hafi yabo hari ibitaro bya leta cyangwa se kilinike, cyangwa farumasi, birabafasha kubona ubuvuzi byihuse.

Ubuvuzi gakondo bufasha abaturage cyane iyo badafite uko bahita babona ubuvuzi bwa kizungu, kuko bashobora kwifashisha ubw'inyamapfundo, imiravumba n'ibindi.

Ubuvuzi gakondo hakoreshwamo imiti itandukanye , ndetse n'ibyatsi bitandukanye harimo: kimbazi inyamapfundo ,imiravumba ndetse n'ibindi

Ubuvuzi gakondo nibimwe mu bintu bidufasha, cyane cyane iyo umuntu yarwaye indwara z amahumane, indwara zo mu miryango, bituma tubasha kubona ubuvuzi byihuse bitagombeye kujya kwa muganga.

Ubuvuzi gakondo， bukoreshwamo imiti igiye itandukanye y'ibyatsi. Harimo intomvu， umuravumba，ndetse n'ibindi byatsi， bigiye bitandukanye.

Ubuvuzi gakondo ni ingirakamaro kuko bufasha umuntu kubona ubutabazi bw'ibanze hakoreshejwe ibyatsi bitandukanye: nka cumya, inyamapfundo ndetse n'urukararambwe n'ibindi.

Ubuvuzi gakondo n'ingenzi cyane ku baturage, kuko bibafasha kubona ubuvuzi bw'ibanze bw'igihe barwaye indwara z' amahumane, n'indwara zo mu miryango, nka tungurusumu, imiti y'ibyatsi, n'ibindi.

Amashyamba ni ingirakamaro mu buzima bwacu bwa buri munsi, ni byiza ko dutera ibiti bigiye bitandukanye urugero nko gutera ibiti by'inturusu, ibidariya, imihengeri ndetse n'ibindi.

Ubuvuzi gakondo ni ingenzi ku baturage, kuko bubafasha kuvura indwara z'amahumane, ndetse n'indwara zanze gukira. Ndetse hari ibyatsi bimwe na bimwe bakoresha nk'imboga ariko bikabavura, harimo igisura ndetse n'ibindi.

Ubuvuzi gakondo ni ingirakamaro cyane, kubera ko hari indwara z'amahumane, cyangwa se zo mu miryango biba atari ngombwa ko zijyanwa kwa muganga, zikizwa n'imiti y'ibyatsi.